Inzu iberamo inama ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye aho hari abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo abagore abasore ndetse n'abakobwa, abo bantu bakaba bicaye ku meza abandi bakaba bahagaze aho bambaye n'udupfukamunwa.

Inama cyangwa ibindi biganiro bitandukanye byateguwe n'abayobozi cyangwa abaturage batandukanye, bikunze kubera mu mazu meza aho haba hari mudasobwa, interinete wakwifashisha ujya kuri murandasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu cya Rwanda revenI otoriti, ikigo gishinzwe kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro, aho harimo abantu bari mu nama imbere yabo hatetse amazi y'udupiripiri twa nili akaba ari abantu benshi bakoresha interineti ndetse bafite n'imashini nyinshi zigiye zitandukanye.

Inama ndetse n'ibindi biganiro ni kimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho u Rwanda rwakira inama nyinshi kandi izo nama zikaba ari abantu b'ingeri zose, yaba bayobozi, abaturage, inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'abikorera.

Inama ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu, aho abaturage ndetse n'abayobozi baza bakaganira kuri muri bimwe mu bibazo, ndetse n'abaturage bagatanga ibitekerezo bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu.

Inzu iri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri nyinshi, hano nkaba mpabona ameza yicayeho abantu bagiye batandukanye, abapolisi, abaturage basanzwe, abayobozi ndetse n'abandi bantu, ku meza hakaba hateretseho udupipiri tw'amazi.

Aba ni abayobozi bari mu nama, aho bari kuganira ku kibazo runaka cyangwa uburyo bateza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange; aho bicaye ku meza zifite ibitambaro by'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere yabo hakaba hateretse amazi.

Akaba ari inama ishishikariza abaturage kwitabira umukino wo kwirukanka, akaba ari umukino wabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ukaba warabereye i Kigali ukwezi kwa cumi na kumwe guhera ku itariki zirindwi kugera ku itariki umunani.

Ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye nimubimwe byigirwaho icyateza imbere igihugu ndetse n'umuturage muri rusange aho buri muturage atanga igitekerezo afite, ikibazo cyangwa se inyunganizi.

Inzu iri kuberamo inama aho hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara uri gutanga ikiganiro. Imbere ye hakaba hateretse imashini za mudasobwa ndetse bari gukoresha interineti cyangwa bari kujya kuri murandasi.

Inzu iri kuberamo inama, ikaba irimo abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo, imbere hakaba hahagaze umudamu uri gutanga ikiganiro, ku gikuta hakaba hari igitambaro kinini cy'umweru bigaragara ko ari cyo berekaniraho amashusho.

Inama ndetse n'ibindi biganiro ni bimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho abayobozi ndetse n'abaturage begerana bakabasha kungurana ibitekerezo ku buryo buri muturage wese ahabwa serivisi kandi mu gihe gitoya.

Zitandukanye hakaba hicayemo abantu bari mu nama abantu bicaye mu ntebe z'umukara ndetse inyuma yabo hari n'izindi ntebe zitarimo abantu bicayemo ,bakaba bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye cyangwa se bari gutanga ibitekerezo.

Abantu babiri bicaye ku meza ndetse bari kwandika, akaba umwe yambaye umupira w'ubururu undi akaba yambaye ikote rya kaki, imbere yabo hakaba hateretse ubupiri bw'amazi ndetse n'ubukombe burimo ikawa, hirya yabo hakaba hari umuntu uri gufotora.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye. Harimo abagore, abagabo ndetse n'abadamu. Imbere yabo hakaba hateretse amazi ari ku bitambaro by'umutuku ndetse n'umweru. Hakaba imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, harimo amakayi ndetse n'amakaramu n'amatelefone y'ubwoko bwinshi.

Inama yahuriwemo n'abantu benshi, abayobozi ndetse n'abaturage. Akaba ari inama zikangurira abaturage gutanga umusoro, waba uri umucuruzi cyangwa undi muntu wigenga.

Inama ni hamwe habasha mu gutangirwa ibitekerezo by'abaturage ndetse n'ibyifuzo byabo, aho abaturage bahurira bagatanga ibyifuzo ndetse n'ibindi bitekerezo bafite byateza imbere igihugu ndetse n'umuturage muri rusange.

Inama ndetse n'ibirori bibera hano mu gihugu cyacu, byitarirwa n'abantu b'ingeri zose: yaba abanyarwanda muri rusange, abaturutse hanze y'u Rwanda, abana, abayobozi ndetse n'abasheshakangu. Aho havugirwamo ibintu byinshi, yaba ibiganisha ku iterambere ry'igihugu ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye.

Inama ndetse n'ibindi biganiro, ni imwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu, aho abayobozi b'igihugu cyacu bahurira bakaganira ku bitekerezo bigiye bitandukanye byaba ibyateza igihugu imbere ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikenewe mu gihugu cyacu.

Hakunze kubaho inama z'abayobozi, abaturage, ndetse n'abadepite, ndetse n'abakuru b'ibihugu, zigiye zitandukanye. Aho haganirirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibiteza imbere igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Iyi nama irimo abantu batandukanye, hakaba harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa, hakaba harimo n'abanyamahanga hakaba harimo ndetse n'abakomoka mu bindi bihugu, imbere yabo hakaba hateretse ubupipiri burimo amazi, buri wese akaba afite mashini ndetse banafite ibipapuro bari kwandikaho.

Abashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi haba mu ngo z'abaturage, ku bigo bya leta ndetse n'ibindi bigo by'abikorera, aho wanayifashisha uri gukoresha ku mbugankoranyambaga.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authorit, gishishikariza abantu gutanga imisoro, maze bakiyubakira igihugu cyabo, aho buri muturage iyo atanze umusoro aba yiyubakiye igihugu cye, twavugamo; amashuri, amavuriro, imihanda, amazi, amashanyarazi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, biteza imbere igihugu cyacu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro cya Rwanda Revenue Authority, gishishikariza buri muturage kwaka inyemezabuguzi mu gihe agize igicuruzwa cyose aguze, kikanashishikariza buri mucuruzi gutanga inyemezabwishyu mu gihe icyo ari cyo cyose agurishije igicuruzwa.

Iri n'itangazo ry'ikigo cy'igihugu m'u Rwanda gishinzwe imisoro cya Rwanda revenu otoriti, aho bakubwira ngo garagaza impano yawe utsindize miliyoni. Aho muri ibyo bihangano harimo gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa ndetse n'izindi mpano bitewe n'impano wifitemo ukabasha guhatana ugatsindira miliyoni.

Imisoro n'amahoro mu Rwanda cya Rwanda reveni otoriti, ishishikariza buri muturage yaba umuguzi cyangwa umucuruza kwaka inyemezabwishyu ya ibiyemu, aho abatanze umusanzu wo kwiyubakira igihugu.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari iminara ishinzwe gukwirakwiza interineti, aho ari iminara miremire umuntu yakwifashisha ari gukoresha ikoranabuhanga yaba ari gukoresha mudasobwa cyangwa terefone ngendanwa.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Abantu baka serivisi zigiye zitandukanye aho kuri ubu ngubu ikoranabuhanga ryabyoroheje, aho ufata mudasobwa yawe ukajya kuri murandasi ukaka serivisi iyo ari yo yose ukeneye nta kindi kibazo uciwe cyangwa nta yindi mbogamizi uhuye nayo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro cya Rwanda reveni otoriti, gishinzwe gukangurira abaguzi ndetse n'abacuruzi gutanga inyemezabwishyu, kugira ngo biyubakire igihugu cyabo. Aho iyo utanze umusoro uba wubatse igihugu cyawe.

Ubu ni uburyo wakifashisha uri gukoresha mudasobwa yawe cyangwa telefone ujya kuri murandasi, aho ugura interinete imara igihe kirekire kandi yihuta.

Iyi ni serivise itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda cya Rwanda reveni otoriti, aho bakubwira ngo tengamara ukanze akanyenyeri magana inani urwego, ukabasha kwishyura ibintu bigiye bitandukanye, aho wakishyura ibiyemu cyangwa ukishyura imisoro ukanze akanyenyeri magana inani urwego.

Iri ni itangazo ry'ikigo k'igihugu cy'u Rwanda cya Rwanda reveni otoriti gishinzwe umusoro, aho bakubwira ngo umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki mirongo itatu ukuboza, za buri mwaka.

Iri ni itangazo rya minisiteri y'u Rwanda aho bakubwira ko ari itangazo ry'iminsi y'ikiruhuko muri rusange, ku itariki makumya n'esheshatu ukuboza ndetse na tariki ebyiri mutarama bibiri makumyabiri na gatatu ari iminsi y'ikiruhuko muri rusange.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko arimo voreboru, imbere yacyo hakaba hari amazu yubatse mu bwoko bumwe agiye atandukanye, n'ibiti biyakikije n'izindi ndabo ziri ku ruhande rw'ikibuga n'ibyatsi.

Ibikorwaremezo imwe ni bimwe mu bikorwa bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bashishikariza buri muturage kubaka inzu nziza kandi iramba.

Aha ni aho abaturage bategerereza ibinyabiziga cyangwa ibiguruka mu kirere, aho hari abaturage bicaye ku ntebe hakaba hari n'abandi baturage babiri bacaginze amatelefone, hakaba hari umugore ndetse n'undi uhagaze ku ruhande w'umugabo.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cya rwanda revenu otoriti gishishikariza buri muturage kwaka inyemezabuguzi mu gihe agize igicuruzwa agura kandi kikanashishikariza buri mucuruzi gutanga inyemezabwishyu mu gihe agize igicuruzwa agurisha, aho bifasha mu iterambere ry'igihugu mu kubaka ibikorwa remezo harimo imihanda, amashuri ndetse n'amavuriro n'ibindi bikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Umugore wicaye mu nzu kandi wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hakaba hari ikirangantego cy'igihugu ndetse n'ibendera ry'igihugu, bikaba bigaragara ko ari umuyobozi ushinzwe gutanga serivise mu baturage.

Serivisi nyinshi zigiye zitandukanye zitangwa na leta y'igihugu cyacu. Aho twavugamo kwiteza imbere ukoresheje kwihangira umurimo harimo nk'ubumotari, gutwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'ibindi bikorwaremezo byinshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo imodoka moto, ku ruhande hakaba hariho akayira k'abanyamaguru ndetse hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti amapoto y'amashanyarazi ndetse hakaba hari n'ingo z'abaturage.

Aha ni mu nsangano z'umuhanda aho hamanitse ibyapa biburira abagenzi ndetse n'abatwara ibinyabiziga mu uburyo bakoresha umuhanda, aho iyo hagiyemo ibara ry'umutuku umugenzi aba yemerewe gutambuka, haryamo ibara ry'icyatsi utwara ikinyabiziga akaba yemerewe kugenda, hajyamo ibara ry'umuhondo utwaye ikinyabiziga akaba yitegura kugenda, aho mu muhanda harimo umunyamaguru uri kwambuka ajya kuru rundi ruhande.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, aho rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage ndetse no ku zindi nyubako zigiye zitandukanye, nk'inyubako za leta n'abakozi b'ibigo by'abikorera, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye muri rusange, n'amatara yo ku muhanda.

Amapoto abiri y'umuriro w'amashanyarazi akaba ari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu ngo z'abaturage ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku muhanda hakaba hari inyubako nziza cyane z'amabati atukura ndetse ku muhanda munsi y'ibeto hakaba hari akazu k'umucuruzi wa emutiyene ku ruhande y'akazu hakaba hari umuturage uri kugenda mu muhanda.

Amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa byo gukwirakwiza umuriro hirya no hino mu gihugu ni bimwe mu byitaweho na leta y'igihugu cyacu aho buri muturage ashishikarizwa kuba afite umuriro we mu rugo afatiye ku mapoto yagiye ashyirwaho na leta y'igihugu cyacu.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange akaba ari imodoka nini iri kugenda mu muhanda, hirya y'iyo modoka hakaba hari akazu kicaramo abagenzi baje gutegerereza iyo modoka aho ngaho, hakaba hari n'ipoto ku muhanda rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, iri ni ipato rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage, mu nganda, ku matara yo ku mihanda, ku byapa byo ku mihanda ndetse no mu zindi nyubako zigiye zitandukanye zo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ibikorwaremezo mu gihugu cyacu, ni bimwe byitaweho na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri muturage ashishikarizwa kuba afite umuriro iwe mu rugo, kandi akareka gutura mu manegeka, akirinda ubucucike bw'amazu aho isuri ndetse n'ibindi biza byateza ibyago byaturuka.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu byitabwaho mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho buri muturage bavuga ko agomba kuba afite umuriro w'amashanyarazi mu rugo iwe ndetse no kuri buri muhanda wa kaburimbo ukaba uriho amapoto y'amashanyarazi.

Amapoto y'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwaremezo, kitaweho na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho kumihanda, hagaragara amapoto y'amatara, naho mu ngo z'abaturage naho hakagaragara amashanyarazi kandi menshi.

Amapoto y'imiriro y'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo bigenda bikwirakwizwa ahantu hose mu gihugu cyacu, yababa mu duce tw'icyaro cyangwa uduce tw'imijyi, aho buri muturage ashishikarizwa kugeza iwe, umuriro mu rugo.

Amapoto y'amashanyarazi yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage, ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, hari n'ibindi bidukikije byinshi, harimo nk'amashyamba ndetse n'ubusitani.

Ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi umuriro ujyanwa mu baturage, ukaba ari umuriro ufasha abaturage mu kumurika mu ngo zabo ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, akaba ari ipoto riteye mu ishyamba aho hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twavugamo amashanyarazi, amazi ndetse n'imihanda, aho buri muturage ashishikarizwa kugeza umuriro we mu rugo kugira ngo akomeze kongera iterambere ry'igihugu cyacu.

Umuntu uzamuye akaboko avugiramo mayikorofone, afashe ku idarapo ry'igihugu, afite umusatsi mwiza ushokoje yambaye ikositimu, yambaye ishati y'umweru birasa nkaho hari ibyo ari kurahirira.

Umuhanda munini wa kaburimbo w'ibice bibiri uriho ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru tubiri hakaba ukikijwe n'ishyamba, amapoto y'amatara amapoto atwara insinga mu baturage y'amashanyarazi imodoka ziparitse ku muhanda ndetse n'amazu y'abaturage.

Ibikorwaremezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni byinshi kandi ni ibikorwaremezo byiza. Aho twavugamo nk'amatara yo ku mihanda, ibidukikije ndetse n'amapoto y'amashanyarazi ajyana insinga mu ngo z'abaturage, abaturage bakabasha kumurikirwa.

Ibikorwa remezo byinshi bigaragara mu Rwanda, nk'aha harimo amapoto y'amashanyarazi, inyubako, imihanda ndetse n'ibindi byinshi. Aho mu muhanda hari imodoka ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu; abahaha, abagura ndetse n'abagurisha.

Ipoto ry'amashanyarazi rikwirakwiza umuriro mu baturage ndetse no mu bindi bigo by'abikorera, ikaba iri i ruhande rw'inzu, inzu nziza cyane yubakishe amatafari ifite igipangu ku ruhande ndetse n'ubusitani burimo n'indabyo.

Ipoto ry’amashanyarazi, ipoto rinyuraraho insinga zijyana umuriro mu mazu y’abaturage ndetse no ku mapoto yo ku muhanda atanga urumuri ku mihanda. Kugira ngo bibashe kongera umutekano mu mihanda ndetse no mu mazu y’abaturage ndetse no mu nganda muri rusange.

Ipoto ry'amashanyarazi riherereye ahantu impande y'ibiti, akaba ari ipoto rishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage, mu bigo by'abikorera ndetse no ku mapoto yo ku mihanda ashinzwe gukwirakwiza amatara.

Amapoto y'amashanyarazi, ni bimwe mu bikorwa remezo byagiye bikwirakwizwa ahantu henshi mu gihugu cyacu, yaba uduce tw'icyaro mu duce tw'imijyi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, aho buri muturage ashishikarizwa kuba afite umuriro iwe mu rugo.

Imihanda ndetse n'amatara yo ku mihanda n'amapoto y' amashanyarazi, ni kimwe mu byitabwaho na leta y'igihugu cyacu cy'Urwanda, Aho buri muturage ashishikarizwa gusora, kugira ngo bikorwaremezo byiyongere mu gihugu cyacu cy'Urwanda.

Ni imwe mu bitanga serivise zikenewe mu gihugu cyacu, twavuga nka serivise z'ubuvuzi aho umuturage urwaye agana ibitaro bigiye bitandukanye akabasha guhabwa imiti imufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ibikorwa remezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu, aho buri muturage ashishikazwa gutanga umusoro kugira ngo yiyubakire igihugu cye. Bikamufasha kubaka amashuri, amavuriro, imihanda, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye.

Ibikorwa remezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni bimwe mu biteza imbere igihugu cyacu. Twavugamo nk'amavuriro, amashuri, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho umuturage ashishikarizwa gusora, kugira ngo yiyubakire igihugu cye.

Amavuriro ndetse n'amashuri, ni bimwe mu bikorwa remezo bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho hubatse amavuriro menshi afasha abaturage kutarembera mu rugo. Aho buri muturage ajya kubaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hanyuma akabasha guhabwa imiti akeneye.

Mu Rwanda hatangwa serivisi nyinshi zihe zitandukanye. Harimo serivisi z'ubwishingizi bwo kwivuza, serivisi z'ubucamanza, ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Aha twavuga ko, ari nko ku kigo nderabuzima, cyangwa kuri hopitale, aho abaturage bagana baje kwivuza.

Inzu nini isize amarangi y'umuhondo hejuru y'inzu hakaba hateretseho ibigega bibiri by'amazi hirya y'iyo nzu ku ruhande hakaba hari inzu ifite amabati y'umutuku, itangirwarwamo nayo n'izindi serivisi zitandukanye.

Umuhanda munini uri kugendamo umudamu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara; umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu afite amabati y'umutuku ndetse n'ubusitani; ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hateye ibiti, hakaba hari n'amatara amurikira uwo muhanda.

Ibitaro, amavuriro ndetse n'ibindi bigo ni bimwe mu byashyizweho na leta y'igihugu cyacu kugira bifashe abaturage muri rusange uburyo bwo kwivuza batarembeye mu ngo zabo, kuko hashyizweho uburyo bwo gukoresha mituwere de sante cyangwa andi makarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Ibikorwa remezo mu gihugu cyacu ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu aho twavugamo nk'ibitaro, amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima aho buri muturage agenda akabasha guhabwa serivisi kandi mu gihe gitoya abifashijwemo n'abaganga b'inzobere kandi babihuguriwe.

Ibitaro ndetse n'andi mavuriro agiye atandukanye mu gihugu cyacu, ni bimwe mu bakira abarwayi benshi bagiye batandukanye, aho buri muturage atabasha kurembera mu rugo, bakamushyikiriza ku bitaro, akabasha guhabwa serivisi zijyanye n'ubu buvuzi.

U Rwanda ni igihugu gitanga ubutabera aho abantu benshi bagikurikiranwaho ibyaha bagiye bakora ukajyanwa mu rukiko, ukaburana bakagukatira igifungo cyangwa ukajurira ukazabasha gufungurwa.

Abantu bari mu ishyamba harimo abagororwa, abaturage basanzwe ndetse n'abayobozi, abagororwa bakaba bambaye imyenda y'iroza n'aho abaturage bakaba bambaye imyenda isanzwe y'amabara atandukanye, inyuma yabo hakaba hari imodokari iparitse y'umweru ndetse bakaba bari ahantu bigaragara bisa nk'ahari mu ishyamba.

Ibikarito bigerekeranye bikaba bifunze mu bipimo bigenda bitandukanye, aho harimo ibicuruzwa. Ibicuruzwa bikaba bigenda byoherezwa mu turere tugiye dutandukanye.

Umugore munini wambaye ikanzu y'umutuku irimo akantu k'umweru bikaba bigaragara ko ari umugore w'umucamanza umugore ushinzwe gutanga ubutabera aho abantu bakoze ibyaha akaba yabasha kuba ubutabera ndetse n'abandi akabarenganura.

Ushinzwe gufungwa n'abagororwa, aho ari abagororwa benshi bari kumwe ndetse n'abashinzwe umutekano, aho bajyanwa kuburana ku byaha baba barakoze bigiye bitandukanye buri wese akabasha guhabwa ubutabera.

Ifoto y'umugabo munini bigaragara nk'aho abyibushye mu maso, akaba yambaye ikote ry'umutuku, akagofero k'umukara gafite akabara k'umuhondo hejuru, bikaba bigaragara yuko ari imyenda y'abacamanza.

Umugore munini ufite indangururamajwi ye mu ntoki, wambaye amadarubindi ndetse uhagaze imbere y'inteko y'abantu cyangwa abaturage, bisa nkaho ari kubaha ikiganiro kijyanye n'ibintu bitandukanye.

Aba ni abacamanza bari kurahira itegeko nshinga bafashe ku idarapo ry'igihugu, aho imbere hicaye umucamanza mukuru wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara. Bakaba ari abifashishwa mu gihe abantu bari kuburana mu manza zigiye zitandukanye.

Abacamanza batatu bahagararanye n'umugororwa imbere y'amategeko, aho abacamanza bambaye amakanzu y'umukara arimo utuba tw'umwerura umugororwa akaba yambaye imyenda y'iroza, aho imbere y'umucamanza umwe hateretse ibitabo abandi bakaba bafite ibitabo byabo mu ntoki.

Amacupa abiri ya kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa ahantu hahurira abantu benshi yaba ku mavuriro, ku mashuri, ku mabanki ndetse n'ahandi hantu hatangirwa serivisi zihurwamo n'abantu benshi.

Icupa rinini ry'umutuku rikaba ari icupa ryifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro yaba ku mazu muri rusange amazu ahurirwamo n'abantu benshi amazu y'abaturage ndetse n'ibinyabiziga ukaba waryifashisha uzimya inkongi y'umuriro.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Icupa rinini ryifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ku ruhande rwayo hakaba hari igipapuro kigaragaza uburyo wakoresha iryo cupa, uri kuzimya inkongi y'umuriro, inkongi y'umuriro yabaye mu nzu iwawe, ku maduka ndetse n'ahandi hantu hahurirwa n'abantu benshi.

Amazu manini, imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo ni bimwe mu bigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho ku mihanda usanga abashinzwe umutekano ndetse urujya n'uruza rw'abantu, imodokari ,abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imihanda, amazu ndetse n'amatara yo ku mihanda ni bimwe mu bikorwa remezo bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twavuga ko imihanda yoroheje ingendo ubuhahirane uva mu gace kamwe ujya mu kandi.

Inyubako ndende y'Ikigo cy'Igihugu cya Polisi, aho abaturage baza kwaka serivisi zijyanye n'ubutabera, yaba ari umuturage wahemukiwe cyangwa uje kuburana, akaka serivisi zijyanye n'icyo akeneye.

Abantu bari mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro, bakaba bifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye. Ahantu habaye inkongi y'umuriro bari kuzimya, bakaba ari abantu bambaye imyenda y'umukara, ifite utubara tw'icyatsi, ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umupolisi uhagaze rwagati mu muhanda, inyuma ye hari ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi; hakaba hari ibinyabiziga bya moto, imodokari, imodokari z'amavatiri, imodokari nini zitwara abagenzi muri rusange, ndetse n'ibiti ku ruhande rw'ubusitani.

Imihanda ibiri minini ikaba arimodoka ebyiri zitandukanye hagati mu muhanda hakaba hatiwe mo igiti cy'umukindo ndetse n'ubusitani akaba ari imodoka y'umukara imanuka hirya y'umukindo n'ubusitani hakaba hari indi modokari y'umukara n'umweru ya polisi iri kuzamuka.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Icupa ry'umutuku bifashisha bazimya inkongi y'umuriro rikaba ari icupa rinini ririmo umuti wifashisha bazimya inkongi y'umuriro haba ku mazu manini ku mazu mato ku modokari ndetse n'ahandi hantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kikaba kizwi nka kizimyamwoto kikaba gifite n'umugozi munini wayo bifashisha mu gihe ari ku mazu maremare cyangwa ku zindi nyubako nini.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ,kikaba ari igikoresho gifite ibara ry'umutuku aho wakwifashisha uzimya inkongi y'umuriro yabaye ku mazu maremare ndetse n'inyubako ndende muri rusange zihurirwamo n'abantu benshi.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bikaba biri mu icupa ry'umutuku, aho ahantu ku nyubako runaka ihurirwamo n'abantu benshi ndetse cyangwa ahabaye inkongi y'umuriro, bifashisha bari kuzimya iyo inkongi y'umuriro.

Inzu y'inteko nshingamategeko mu Rwanda aho abadepite bahurira bagatanga ibitekerezo bijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, aho havugirwamo inama zo kwegera abaturage n'izindi serivisi zigiye zitandukanye zateza imbere igihugu cyacu, harimo imisoro ubuvuzi uburezi ndetse n'imihanda ariyo bikorwa remezo.

Inzu ntekanshingamategeko y'u Rwanda aho abadepite ndetse n'abandi bayobozi b'igihugu baza kurahirira. Nkabangaba ni abayobozi bari kuvuga indahiro yuko bazakurikiza amategeko n'amabwiriza ndetse n'itegekonshinga ry'igihugu.

Umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida Paul Kagame akaba ari kumwe n'umufasha we nyakubahwa madamu Jeannette Kagame, bakaba baje mu gikorwa cyo kurahira aho bari muri sitade nziza cyane yubatswe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame.

Ni iduka rigurisha ibikoresho by'abadamu n'amasakoshi inkweto ndetse n'ibindi. Bikaba bigaragara ko bipanze ku buryo bigiye bikurikirana kandi busumbana.

Umuhanda munini urimo abamotari akaba ari abamotari batatu, umumotari w'imbere akaba ahetse umugenzi, uw'inyuma akaba nta mugenzi afite ndetse uwa gatatu nawe akaba nta mugenzi afite, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hariho icyapa cy'umukandida wa Efuperi Inkotanyi cyanditseho tora Kagame hakaba hariho n'ifoto y'umukuru w'igihugu ariwe perezida Paul Kagame.

Inzu y'inteko nshinga amategeko iberamo inama zigiye zitandukanye, yaba inama zateguwe na guverinoma y'u Rwanda, inama z'abadepite, inama z'abakuru b'igihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu y'Inteko Nshingategeko y'u Rwanda, aho abadepite ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bakuru b'igihugu cyacu bahurira bakabasha kuganira ku byateza imbere Igihugu cyacu, twavugamo imisoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, amashuri, amavuriro ndetse n'uburyo hakubakwa imihanda n'ibindi bikorwaremezo byinshi twavugamo nka Girinka Munyarwanda no guteza imbere abaturage.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, hari ibigonderabuzima, ibitaro, amashuri ndetse n'inzego z'umutekano, aho buri muturage abagana akabasha kwaka serivisi zigiye zitandukanye hanyuma bakabasha kumwakira.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu bintu byiza bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twavugamo nk'amazu manini ndetse n'imihanda. Akaba ari amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye yaba ubw'abantu ku giti cyabo cyangwa se amakoperative.

Ikarita y'itora iriho abayobozi biyamamariza kuba umukuru w'igihugu hakaba hariho abayobozi batatu aribo nyakubahwa perezida Paul Kagame umukandida wa FPR Inkotanyi hakaba hariho Mpayimana Philippe umukandida wigenga na Habineza Frank umukandida w'ishyaka rya green party.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi ndetse unarimo abanyamaguru, akaba ari imodoka ziparitse ku mihanda zifashishwa mu gutwara imizigo ndetse hakaba hari n'abanyonzi ku ruhande amashyamba ndetse n'amatara ku mihanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, hakaba harimo ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange, ibitwara ibicuruzwa ndetse n'abamotari batwara abantu mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu, kikaba ari igikorwa remezo bikunze kwitabwaho na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tubonamo imodoka nini, imodoka ntoya ndetse n'ibindi bikorwa remezo byinshi.

Ibikorwa remezo by'umuhanda ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda aho kuri buri mihanda haba hariho amatara ndetse hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru, akaba ari imihanda yifashishwa mu kuva mu gace kamwe ujya mu kandi bitagoranye kandi ukoresheje igihe gitoya.

Mu muhanda urimo imodoka, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti byinshi ndetse n'ubusitani, ukaba urimo imodoka ndetse n'umumotari, imodoka akaba ari imodoka isa ubururu yifashishwa mu gutwara ibinyobwa bidasembuye ndetse n'ibisembuye.

Ibikorwa remezo ni byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twavuga nk'imihanda, ikaba ari imihanda myiza kandi isukuye, nk'ahangaha turavugamo umuhanda urimo imodoka zitwara abantu muri rusange, abamotari, ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri, ikinyabiziga k'imodokari kiri kuza mu muhanda rwagati ndetse n'ikinyabiziga cya moto kiri kugenda muhanda rwagati, aho ikinyabiziga cya moto kiriho abantu babiri, utwawe ndetse n'utwaye, aho bose bambaye kasike z'umutuku ndetse hirya yabo hakaba haparitse n'izindi modokari nyinshi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibice bibiri, igice kizamuka ndetse n'ikimanuka, mu gice kizamuka hakaba ari umumotari udahetse umugenzi hirya ye hakaba hari icyapa kigaragaza yuko ubujijwe gukata inyuma y'icyo cyapa hakaba hateye ibiti, ubusitani ndetse n'amapoto akwirakwiza amashanyarazi mu baturage ndetse no mu zindi ngo.

Urimo imodoka yifashishwa gutwara abantu mu buryo bwa rusange, cyangwa se aho yatwara n'imizigo iyivana mu gace kamwe ikayijyana mu kandi, hakaba hari n'abamotari mu muhanda bifashishwa mu gutwara abagenzi batandukanye.

Aho imodoka zitwara abantu muri rusange ziparika, zikaba ari imodoka nyinshi z'ubwoko bwinshi zitwara abantu muri rusange, hakaba hari imodoka nini cyane, imodoka ntoya, hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu baje kuza gutega izo modokari bava mu gace kamwe berekeza mu tundi duce.

Umuhanda uri mu modoka nini cyane akaba ari imodoka itwara ibikomoka kuri peteroli; ikaba ari imodoka ifite nomero zeru mirongo inani na rimwe; hirya y'umuhanda hakaba hateye ishyamba ndetse n'ibintu bidukikije; nyuma y'iyo modoka hakaba hari abamotari bahetse abagenzi.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho hubatswe imihanda myinshi hagashyirwaho amatara ku mihanda ndetse buri muturage agashishikarizwa kugeza umuriro iwe mu rugo kandi akanashishikarizwa kugeza amazi iwe mu rugo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biteza imbere igihugu cyacu, akaba ari imihanda isukuye kandi ikeye.

Umuhanda urimo ibibinyabiziga bitandukanye, harimo moto zitwara imizigo, imodoka z'abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibindi bidukikije bitandukanye, harimo ubusitani, amatara yo ku mihanda, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Umuhanda w'ibice bibiri urimo urujya n'uruza rw'imodokari ndetse n'abantu ndetse n'ibindi bininyabiziga bitandukanye, hakaba harimo imodoka, izitwara abantu muri rusange, izitwara imizigo ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hanateyeho ibidukikije byinshi cyane harimo imiti ndetse n'ubusitani.

Ibikorwa remezo byarubatswe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twavugamo imihanda, amazu manini, ndetse n'ibintubiciriritse bigiye bitandukanye, aho hari amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ndetse n'iyo mihanda ikaba yoroherezanya mu ngendo.

Ibikorwa remezo nibyinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho hari imihanda, amazu ndetse n'amashanyarazi. Nko muri uyu muhanda turahabona imodoka nyinshi zaba izitwara abantu muri rusange, izitwara imizigo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Abantu babiri bari mu muhanda, imbere yabo hari ibidukikije byinshi harimo nk'amashyamba ndetse n'ubusitani. Umwe akaba yambaye ipantaro n'umupira w'umukara kandi akaba ahetse n'igikapu. Undi akaba yambaye ishati n'ikabutura, akaba yambaye n'ingofero.

Imihanda ni kimwe mu bikorwa remezo bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho buri muturage ashishikarizwa gusora kugira ngo yiyubakire igihugu cye. Nko muri iyi mihanda twavugamo, imihanda minini ibasha kunyuramo ibinyabiziga, yaba ibitwara abantu muri rusange ndetse n'ibitwara imizigo...

Imihanda ni kimwe mu bikorwa remezo bigize igihugu cyacu, aho haba harimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka zifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, aho byoroheje ubuhahirane yaba abaturage ndetse no mu bindi bihugu.

Umuhanda munini urimo imodoka y'umutuku n'umukara iri kumanuka, mu nzira y'abanyamaguru hakaba harimo umugabo wambaye imyenda y'umukara uri kuzamuka, hirya y'umuhanda hakaba hateye ishyamba ndetse n'ubusitani, naho mu muhanda mu ruhande rw'ibumoso hakaba hari umunyonzi uri ku igare.

Leta y'igihugu cyacu y'u Rwanda yubatswe ibikorwa remezo byinshi, aho yubatse imihanda ibasha kunyuramo ibinyabiziga binini bitwara abantu muri rusange, tukaba twavuga ko yazanye kandi n'ibinyabiziga ikorohereza abaturage mu ngendo zabo bava mu gace kamwe bajya mu kandi.

Imihanda ni kimwe mu bikorwaremezo bigize igihugu cyacu cy' u Rwanda akaba ari imihanda minini iriho amapoto y'amashanyarazi aho wagenda ku manywa cyangwa nijoro amatara akumurikira.

Umuhanda urimo moto yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibidukikije bitandukanye harimo ibiti, ubusitani ndetse n'ibindi.

Hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuhabona ibikorwaremezo byinshi bigiye bitandukanye, aho tubonamo imihanda, amazi ndetse n'amashanyarazi, mu mihanda inyuramo imodoka zitwara abantu muri rusange, izatwara ibizigo ndetse hakaba hari n'utuyira tw'abagenzi ndetse n'umuhanda w'amotari.

Imihanda ndetse n'amatara yo ku mihanda nibimwe mu bikorwa remezo byitaweho mu gihugu cyacu, aho hubatswe imihanda byorohereza ubuhahirane hagati y'abaturage ndetse n'uturere, aho ubugubu ingendo zoroshye uva mu karere kamwe ujya mu kandi cyangwa uva mu gace kamwe ujya mu kandi.

Hari uburyo bwinshi bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho hashyirwaho imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zikaba ari imodoka zifashishwa kuva mu gace kamwe ujya mu kandi gace, ukava wakishyura ukoresheje mudasobwa cyangwa se ukoresheje telefone yawe, aho wishyura ukoresheje cyangwa ikarita.

Imihanda ndetse n'andi mazu ni bimwe mu bikorwa remezo bygerejwe abaturage, aho kuri iyo mihanda tuhabona urujya n'uruza rw'abantu ibinyabiziga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari amazu akoremo ubucuruzi n'ibindi byinshi.

Ibikorwa remezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni byinshi kandi bigiye bitandukanye, aho twavugamo nk'amazu, imihanda, aho abantu baza baje kwaka serivisi, bakabasha kwicara izuba cyangwa imvura ntibibanyagira.

Inzu ndende cyane isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite n'ibirahuri by'umweru ikaba ari inzu ikoritiriye hakaba hari na parikingi nini cyane hirya yaho hari ubusitani ndetse muri iyo parikingi hakaba harimo indabo z'ubwoko bwinshi hakaba hahagazemo n'abantu.

Ibikorwaremezo ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda hakaba harimo amazu, amapoto y'amashanyarazi, imihanda minini kandi myiza, akaba ari n'imihanda isukuye, akaba ari n'umujyi urangwamo isuku, akaba ari umujyi w'igihugu cyacu akaba ari umujyi wa Kigali.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, akaba ari umukino wa basket, aho kirimo amabara atandukanye harimo irangi ry'umutuku, icyatsi, inyuma yaho hakaba hari ibidukikije bitandukanye harimo ibiti n'ubusitani.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'ibirango by'umweru, kikaba ari icyapa cyerekana ibyerekezo byinshi, icyerekezo cyerekeza Kagarama, icyerekezo cya Nyamata ndetse n'icyerekezo cy'i Kigali.

Icyapa cyo ku muhanda kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza inkomane banyuramo bazenguruka, cyangwa se umuhanda ufite ikoni.

Icyapa cyo Ku muhanda kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara. Kikaba ari icyapa gifite ibirango bibiri kigaragaza umuhanda ukata ubumoso, ndetse n'umuhanda ukomeza iburyo.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bitatu, igice kimwe kiri kugendamo moto ndetse n'imodoka, ikindi kiri gutambukamo umugenzi ndetse ha hagati aho harimo icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiyobora abagenzi hakaba n'ibiti birebire cyane.

Ibikorwa remezo by'umuhanda ni bimwe mu byohereza abaturage mu buhahirane aho buri muturage atega imodokari kandi akaba yabasha kugera aho agiye ntampungenge kubera imihanda myiza hakaba ku muhanda hamanitse icyapa cyanditseho kibugabuga.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda, gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, aho bakimanika ku muhanda, bagaragaza icyago runaka kidasobanuye ukundi cyangwa kiburira abatwara ibinyabiziga kugenda gahoro ndetse no kugabanya umuvuduko.

Ibyapa byo ku mihanda ni bimwe mu bifasha abanyamaguru ndetse n'abayobozi b'ibiziga uburyo bakwitwara mu muhanda . aho ngaho hari icyapa cy'umuhondo inyuma hari ikindi cy'umutuku kigaragaza ko ari umuhanda ukomeza.

Icyapa cyo ku muhanda, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa gitegeka, aho bakubwira ngo urakata ibumoso gusa, nta kindi kerekezo uri bukatemo.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'ubururu, kikaba ari icyapa kigaragaza ahantu runaka ku muhanda, aho ugenda gakeya mu gihe ugeze aho hantu ku muhanda.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara kikaba ari icyapa kigaragaza ko nta modoka ebyiri zihanyura mu cyerekezo kimwe.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kiburira abashoferi cyangwa abandi batwara ibinyabiziga, kutarenza umuvuduko wa kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Icyapa cyo kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza umuhanda ukomeje ufite ikindi gice ku ruhande kiwushamikiyeho.

Ibyapa byo ku muhanda, ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda. Ni ibyapa bifasha abatwara ibinyabiziga, ndetse n'abanyamaguru uburyo bakifashisha bari gukoresha umuhanda. Nk'iki cyapa gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara, aho kigaragaza inkomane banyuramo bazenguruka.

Ku muhanda gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo, ndetse n'ibirango bibiri by'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza icyago kidasobanuye ukundi imbere, ndetse n'umuhanda ukomeza imbere.

Icyapa cyo ku muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse no mu kirango cy'umukara, kikaba ari icyapa kigaragaza yuko imbere ku muhanda hari ibikorwa remezo by'ubwubatsi, biri gukorwa kandi bitararangira bigikomeje.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza inzira y'abanyamaguru, kikaba ari icyapa gifite umuzenguruko w'ubururu ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, gishushanyijeho umuntu uri kwambuka umuhanda ugaragaza inkomane y'umuhanda banyuramo bambuka.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko winjiye mu karere ka Rusizi, kikaba ari icyapa gikikijwe n'ibidukikije byinshi harimo amashyamba, imihanda, amatara yo ku mihanda ndetse n'ibindi byinshi bikikije icyo cyapa.

Umuhanda uherereye ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Uganda aho kuri uwo muhanda haparitse imodoka y'umukara, ku ruhande mu busitani hakaba hahagazemo umudamu w'umunyamahanga, aho bigaragara ko yishimiye kuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibidukikije harimo ibiti ndetse n'ubusitani, akaba ari umuhanda uri mu karere ka Muhanga, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hahagaze abaturage benshi baje kureba umukino w'amagare ubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariwo bita turu di Rwanda.

Uturere twegereye imipaka n'ibindi bihugu bituranye n'u Rwanda ni tumwe mu turere turimo ibikorwa remezo byinshi. Twavugamo imihanda, amashanyarazi, ndetse n'ibindi bitandukanye, niyo mihanda yifashishwa mu modokari ziva mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Bugande ziza mu karere ka Gicumbi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uru ni urusengero aho abantu baza guteranira baje mu masengesho, akaba ari urusengero rwegeraye umuhanda, mu muhanda hakaba ari umumotari utwaye gaze amacupa abiri ya gaze, ndetse n'undi muntu bigaragara ko ari kujya ku rusengero, kuri urwo rusengero hakaba hateye ibiti birebire by'imikindo ibiti bigaragaza ko hateye ubusitani bwiza cyane.

Ibikorwaremezo ni byinshi mu gihugu cyacu cy' u Rwanda aho twavugamo amazu akoreramo abantu bagiye batandukanye yaba ubucuruzi bw'imyenda, ibicuruzwa by'ibiribwa ndetse n'amakoperative ndetse n'abandi bantu bikorera ku giti cyabo.

Amazu menshi agiye ucukikiranyije agaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari amazu yegeranye atuyemo abaturage kandi hakorerwamo ibikorwaremezo byinshi bigiye bitandukanye yaba ubucuruzi ndetse n'ibindi.

Ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bashishikariza abaturage gutera ibiti kugira ngo birinde isuri ndetse n'inkagu ziterwa n'ibiza bya hato na hato.

Icyanya cyahariwe inganda. Aho hari inganda zitunganya ibintu byinshi, yaba umusaruro ukomoka ku matungo, ukomoka ku mata ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'abaturage ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye.

Inyubako ndende akaba ar'inyubako yubatse mu buryo bwiza, hirya yaho hakaba hari icyapa kigaragaza iduka ricuruza ibikomoka kuri interinete cyangwa kuri murandasi twavugamo amatelefoni, mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyateye imbere, aho dusangamo ibikorwa remezo byinshi yaba imihanda, amazu atandukanye, ndetse n'imiriro y'amashanyarazi, aho nko kuri iyi foto tubona aho ama sitade y'imipira y'amaguru ndetse na sitade ya basiketiboro.

Umuhanda munini urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, akaba ari umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitoya ndetse n'ibinini, ku ruhande rwayo hakaba hari imodoka ziparitse, ari imodoka z'umweru ndetse n'umutuku.

Hoteli nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Ahari hoteli ifite amacumbi agiye atandukanye aho bakirira abakiriya bafata amafunguro, ibinyobwa, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa bikomoka ku matungo ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Iyi ni inyubako ndende imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, imwe y'umukara ya toyota n'indi y'umukara ya kavatiri, aho hamanitse icyapa cyanditseho simba supamaketi aho bacuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, aho harimo fanta zo mu dupipiri fanta zigiye zitandukanye, aho iyo nzu isize amarange y'umweru ndetse n'umuhondo n'amarange y'umukara n'ibirahuri by'umukara.

Amazu meza kandi aramba ni kimwe mu bikorwa remezo bikunze kuranga igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho leta y'u Rwanda ishishikariza buri muturage, kubaka inzu nziza ikomeye kandi iramba kandi igezweho.

Ibikorwaremezo n’amazu, imihanda ni bimwe mu byiza biri mu gihugu cyacu. Aho twavuga ko hari n'amapoto y'amashanyarazi ashinzwe gukwirakwiza umuriro mu nzu z'abaturage, hakaba hari n'amazu ku mihanda akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye yaba ubucuruzi bw'ibigo by'abikorera ndetse n'ubw'abantu ku giti cyabo.

Amafaranga y'amanyamahanga aya mafaranga ni ininote y'igihumbi yo muri Nijeriya iyo ushaka ko bayikuvunjira mu madorari baguha ahwanyije neza agaciro kayo.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu byiza bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho twavugamo amazu manini, amapoto, amashanyarazi, imihanda isukuye, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imodoka yikoreye imizigo yo mu bwoko bwa hoho isa umweru, inyuma yayo hakaba hari inzu ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu ku hande hakaba hari indi hoho ifite amarange y'umutuku.

Umuhanda munini urombereje ibice byinshi ukaba ari umuhanda ukikijwe n'ibidukikije byinshi. Aho hari ibiti amatara yo ku mihanda mu busitani abantu ndetse n'ibindi byinshi. Muri uwo muhanda hakaba harimo imodokari ndetse n'abanyamaguru.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Ibikorwa Remezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni kimwe mu byitaweho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho twavugamo nk'imihanda, amatara yo ku mihanda, ndetse n'ibindi bikorwa Remezo byinshi bigiye bitandukanye. Twavugamo nko kuri uyu muhanda urimo abamotari babiri, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyerekezo by'umuhanda.

Umuhanda munini urimo abamotari bagiye bakurikiranye, hakaba ku ruhande hateye ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, twavugamo amashyamba, amatara yo ku mihanda ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Umuhanda munini ku ruhande hariho akayira k'abanyamaguru ndetse n'ubusitani, aho mu muhanda harimo abamotari, abanyonzi ndetse n'abatwara imodokari, aho hirya y'umuhanda hari ishyamba ndetse n'ibindi bidukikije.

Umuhanda munini urombereje ibice byinshi. Akaba ari umuhanda umanitsemo icyapa k'isaha, inyuma y'icyo cyapa k'isaha hakaba hari imodoka nini yifashishwa mu gutwara imizigo. Akaba ari imodoka iri mu mabara y'ubururu, aho ari imodoka nini cyane yifashishwa mu gutwara imizigo.

Ibikorwa remezo n'imihanda, amatara yo ku mihanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni bimwe mu byitabwaho na guverinoma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho imihanda ifasha abaturage mu buhahirane ndetse no mu ngendo za buri munsi.

Umuhanda munini wa kaburimbo ufite ikiraro hejuru y'uwo muhanda, hejuru ku muhanda ku kiraro hakaba hari amatara yo ku muhanda, naho munsi y'ikiraro hakaba hari urujya nuruza rw'abantu hari abafite amagare, abari kugenda n'amaguru, abaparitse moto ndetse n'imodokari nyinshi.

Ibikorwa remezo nk'imihanda ni kimwe mu byitabwaho na leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo mihanda ikaba inyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Ku mihanda ukaba wayikoresha haba ari ku manywa cyangwa nijoro, kuko iyo ari na nijoro haba hari amatara amurikira iyo mihanda.

Ni kimwe mu bigize igihugu cyacu cy'U Rwanda aho buri muturage ashishikarizwa gusora, kugira ngo n'ahatari umuhanda wa kaburimbo ubashe kuhagera, kugira ngo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bibashe kugenda nta mpungenge bidakoze impanuka za hato na hato.

Imihanda ndetse n'amatara yo ku mihanda, ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu aho abaturage babasha gutanga umusoro bakiyubakira igihugu cyabo ndetse bakiyubakira n'iterambere ry'igihugu cyabo.

Umuhanda munini hirya y'umuhanda hateye ibidukikije byinshi bigiye bitandukanye mu muhanda rwagati hakaba harimo amafoto y'amatara afasha kumurikira uwo muhanda ndetse hino hakaba hateye ubusitani ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru.

Ibikorwaremezo mu Rwanda harimo nk'imihanda ni bimwe mu biteza imbere igihugu cyacu, aho urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bica muri iyo mihanda nta mpungenge, haba ari ku masaha yo ku manywa cyangwa nijoro.

Imihanda yarubatswe mu gihugu cyacu, aho ifasha abantu mu buryo bw'ubuhahirane. yaba ari abo imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu cyacu, akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibidukikije byinshi yaba amazu amatara yo ku mihanda ndetse n'ubusitani.

Ibikorwaremezo mu Rwanda ni kimwe mu byitaweho na Leta y'Igihugu cyacu, twavugamo imihanda, amatara yo ku mihanda ya nijoro, aho amurikira abantu bakabasha kugenda nta nkomyi kandi ntacyo bikanga.

Umuhanda munini urimo ibice bibiri, ukaba ari umuhanda uteyemo busitani ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi bigiye bitandukanye, hirya y'umuhanda hakaba hari ibindi bikorwa remezo nk'amashyamba ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Mu Rwanda hari ibikorwa remezo byinshi kandi bihe bitandukanye twavugamo nk'imihanda, amapoto y'amashanyarazi, ndetse n'amazu y'abaturage aho ko iyo mihanda hari amapoto y'amashanyarazi, ibiti ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Ibikorwaremezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni bimwe mu byiza biranga igihugu cyacu Rwanda, twavugamo nk'imihanda, amapoto y'amashanyarazi, amatara yo ku mihanda, amazi ndetse n'ibindi, nko mu mihanda twavugamo: imihanda inyuramo imodoka zitwara abantu muri rusange, imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse abantu abamotari ndetse n'ibindi byinshi.

Imihanda yo mu Rwanda tuhabona urujya n'uruza rw'abantu, aho ku mihanda hateye ubusitani bwiza, ibiti ndetse n'amatara amurikira umuhanda. Akaba ari imihanda irimo isuku nziza ndetse hakaba haba hari urujya n'uruza rw'abantu.

Umuhanda urimo imodoka y'umutuku akaba arimo y'ivatiri, hirya y'umuhanda hakaba hari ibidukikije byinshi cyane harimo: ibiti, ubusitani, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye harimo nk'amatara yo ku muhanda.

Imihanda ni kimwe mu bikorwa remezo byiza bitatse ibihugu bigiye bitandukanye, aho nko mu gihugu cyacu bashishikariza buri muturage kugira kugira isuku mu muhanda, aho ba mukerarugendo banyura baje gusura igihugu cyacu.

Ibikorwa remezo bigaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni bimwe mu bigize iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho hubatswe imihanda myinshi kandi myiza iri mu mujyi wa kigali irangwa n'isuku ndetse no kuri iyo mihanda hakaba hari amatara meza cyane. Hakaba hanyuragamo imodoka z'ubwoko bwose yaba imodoka nini z'abantu muri rusange iz'ibigo by'abikorera ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo.